Hano imbere yanjye handitse ngo rura rwanda ritriti regirato reguratori otoriti, iki kikaba ari ikigo cy'igihugu kigenzura imirimo ifitiye igihugu akamaro.

Imbere yanjye ndabona abantu bambaye imyenda y'ibara' ry'icyatsi kibisi, bakaba ari abagororwa ba gisirikare bacunzwe n'aba bahagaze bambaye impuzankano za gisirikare naho hano bari ni mu rukiko rwa gisirikare. Abandi bantu bari hirya ni abaje kumva urubanza rwabo.

Hano imbere yange ni ku igororero ndahabona igipangu cy'igororero hamwe n'abagororwa b'igitsina gore kandi barikumwe nabacunga babagorora buri munsi.

Hano ni muri kampeyini yo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba ahagaze imbere y'imbaga y'abaturage azamuye igipfunsi ari kwiyamamaza.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo w'ibyerekezo byombi, ndahabonamo ibinyaziga bibiri bya moto, kimwe kiri kure na ho ikindi kigeze muri zebra crossing, nta kosa cyakoze kuko nta munyamaguru cyabujije kwambuka.